Umutekano ni mwiza aho tugurindigwaga n'abapolisi ndetse n'abandi bafatanyaga na bo, kugira ngo baturindire ibintu ndetse n'ibyibwe babashe kubigaruza mu mahoro, maze tubeho dutekanye.

Umutekano ni inkingi y'iterambere aho abagushinzwe nk' abasirikari, abapolisi bahuriraga hamwe bagasuhuzanya, bakungurana ibitekerezo by'ukuntu bakomeza kugutubungabungira maze tugakora ibikogwa byacu dutekanye kandi twishimye.

Abaturage baturutse imihanda zitandukanye aho baje mu nama bakicara mu mucaca aho Umupolisi ushinzwe umutekano yafashe mikoro ari kubagezaho ibyo yateganyije kubabwira nabo bakabitega amatwi.

Indege ni igikoresho bifashishaga mu mutekano aho abashinzwe uwo mutekano bamanukiraga mu mugozi gubaga uvuye mu ndege bakamanuka hasi aho bagiye gutabara kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo bashinzwe kurinda.

Ubwato buri mu mazi burimo n'abapolisi bacungaga umutekano， bambaye n'imyenda z'akazi bafite imbunda， bacunga umutekano gw'abantu ndetse n'ibintu， kugira ngo barinde abantu batagwa mu mazi.

Ikigo c'abapolisi aho bagihurizagamo abantu bakoze ibyaha cangwa se abandi bafite ibyo kubaza, kandi kikaba kizitiye neza kizitijwe amabuye n'ibyuma, kandi kikaba gifite imbuga nziza, ndetse n'icapa kigaragazaga aho hantu n'ibintu bihakorerwaga, kandi kikaba kiri ku muhanda.

Ibinyabiziga ni byiza kuko bidufashaga gutwara imizigo zitandukanye. Ariko si byiza ko tuzipanda kugirango zidutware, kandi bidashoboka kuko bishobora guteza impanuka, tukahasiga ubuzima.

Inyamaswa ni nziza nk'imbwa aho zidufashaga kurinda umutekano; aho zikoranaga n'abapolisi bashinzwe umutekano. Zikaturindira ibintu byacu ndetse n'ahantu hacu dukoreraga. Ndetse n'ibindi bintu byatugirira nabi ikaba ibashaga, kubivumbura byoroshe kurusha abantu.

Inteko rusange yabereye mu kigo cy'amashuri aho abaturage baturutse imihanda zitandukanye, bicaye ku ntebe z'ikigo c'amashuri abandi bahagaze ku ibaraza, bateze amatwi ijambo umuyobozi ari kubagezaho, ndetse n'abasirikari n'abapolisi bakaba baje kubagezaho ibitekerezo byabo, na bo bakabitega amatwi batuje.

Ni byiza ko dukora imirimo itandukanye, ariko biba byiza iyo dufite abashinzwe umutekano wacu. Nk'abapolisi bambara impuzankano z'umukara n'amashati n'amapantaro, ndetse n'ingofero, hariho n'ibirango bibagaragaza neza n'amazina yabyo, ndetse n'ibendera ry'Igihugu cyacu n'amapeti.

Inama yahurije hamwe abayobozi batandukanye, kugira ngo bungurane ibitekerez, aho irimo abayobozi, abayoborwa ndetse n'abashinzwe umutekano, kugira ngo bumvire hamwe ibitekerezo bya buri wese.

kubaka inyubako nini zifite ibirahuri bizanaga urumuri mw'imbere neza zakiraga abantu benshi nk'iyo baje mu nama ni ingirakamaro kuko bitumaga bahurira hamwe bakungurana ibitekerezo bitandukanye kandi harimo n'ameza n'intebe bakicaraho batandukanye bisagaguye kugira ngo bungurane ibitekerezo bibatezaga imbere

Abaturage baje mu nama, baturutse imihanda zitandukanye, bakicara mu macaca, aho umupolisi afashe mikoro, ari kubagira inama zitandukanye, na bo bateze amatwi ibyo arimo kubabwira, bitonze.

Inteko rusange y'abaturage, aho yabereye mu mucaca mwiza ndetse hari n'amazu gasize amarangi g'umweru. Umusirikari urinze umutekano ufate n'imbunda ndetse abaturage bakaba bicaye ku ntebe za palasitike, munsi y'ihema ryubatse neza kandi ritatse. Umuyobozi akaba ari imbere afashe mikoro ari kubagezaho ibyo yabateguriye.

Abantu batashe ibirori bicaye ku ntebe za parasitike kandi zitondetse ku murongo, bicaye munsi y'ihema kandi rifashwe n'ibyuma byabugenewe, aho bari kureba abantu bari kubyina, abandi bari kubaririmbira bakanacurira.

Inteko rusange yab'abaturage aho bicaye ku ntebe za parasitike. Kandi zitondetse ku murongo, ziri mu mucaca. Aho umuyobozi ari imbere afashe mikoro ari kubagezaho ibitekerezo bitandukanye.

Kubaka inyubako zikomeye zifite amadirishya afite n'ibirahuri byinjiza urumuri neza mo imbere n'inzugi harimo intebe ndetse n'ameza, aho abaturage bahuriramo bagakoreramo inama bungurana ibitekerezo uburyo bakwiteza imbere kuko baba bafite igikorwa remezo kibahuriza hamwe bakicara ari benshi bakaganirira hamwe.

Ku munsi gumuganda abaturage bahurira hamwe bagakora umuganda. Iyo umuganda gurangiye, bicara hamwe nko mu mucaca bagakora inama hamwe n'umuyobozi wabo bungurana ibitekerezo bijyanye no kuzamura imibereho myiza yabo no guteza igihugu cabo imbere.

Kubaka inyubako zikomeye kandi nziza zifite amadirisha gazanaga urumuri ndetse zirimo n'amakaro, aho abaturage baturutse imihanda zitandukanye bahuriraga hamwe baje mu nama bakifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga, kugira ngo bunguke ubumenyi maze bazabwifashishe mu buzima buzaza.

Gucuranga ni umuco gakondo wahozeho nko gucuranga umuduri uba uziritseho umugozi n'uducuma tubiri ndetse n'uduti tubiri two gucurangisha, maze abari aho bakishima cyane kubera ko baba bacurangirwa umurya mwiza.

Umuvure ni igikoresho gakondo babaza mu giti, aho bakifashisha bari kwenga ibitoki. Aho kiba gifite n'agatanda kaboshye mu duti twegeranye barambikaho igikatsi iyo bari kwenga ibitoki bari gukamura kugira ngo umutobe uvemo neza babone uko bawenga.

Inyubako gakondo ni inzu zibaga zubatse mubujyo bw'uruziga zifite umujyango kandi zisakaje ibyatsi, zizitije ibiti bihagaze, ndetse n'imbariro. Ku ruhande hari ibiti bizanaga akayaga keza n'umucaca go kwicaramo gumeze neza gutumaga abantu bagubwa neza.

Imbyino gakondo zituma tuzamura impano zacu, aho tuzibyina twambaye imyenda yabugenewe, kandi zituma amagufa akomera n'amaraso agatembera neza mu mubiri, kandi tugahora twishimye, kuko tuba twabonye umwanya wo kwidagadura na bagenzi bacu, kuko twungukiramo n'inshuti.

Imbyino gakondo aho ababyinyi bambaraga imishanana, amayugi, bamwe bakikorera ibiseke, abahungu bakabyina intore, abandi babakomera amashi kandi babyinira mu mucaca, maze abaje mu ibyo birori bagataha banezerewe.

Udukono twa kinyarwanda dukozwe mu ibumba, aho abakurambere bacu badutekagamo, bateretse ku mashiga atatu bashigikiye, kugirango bateke ibiryo bishe neza.

Ishoka ni igikoresho gakondo kigiraga amazina menshi nk'ishenyi, indyankwi, aho kibaga gikwikiyemo umuhini ufashe mu cuma. Imbere ikaba icaye ahoyashishaga inkwi zo gutekesha iwacu mu rugo. Ndetse bayifashishaga bari gutema ibiti byo kubakisha inzu zitandukanye, cyangwa se kurimbura ibintu bikomeye.

Ibikoresho gakondo byifashishwaga mu mirimo zimwe na zimwe zitandukanye, aho nk'umuvure gwifashishwaga bari kwenga ibitoke, naho ibicuma bakabinweramo, kandi bifite n’imiseke, udukoko aho batwifashishaga bari guterekaho ibintu, ndetse n’inzuho zinwegwagamo.

Mu muco gakondo dukundaga guteka mu gakono, aho kabaga gakoze mu ibumba, maze tukagatereka ku mashyiga atatu tugashiramo n'inkwi, tugatekera mu gikoni ibiryo kugira ngo bishe maze tukarya.

Umutako bawushira mu nzu cyane cyane mu ruganiriro, ndetse n'ahandi hantu haba habaye ibirori, kugira ngo abaje mu birori babone ahantu hasa neza cane.

Imbyino gakondo ni nziza, aho tuzibyinaga twambaye imyenda zabugenewe, twambaye amayugi, dufite amacumu ndetse dufite n'ingabo, ku mutwe hariho n'imigara bicyo tukabyina twishimye.

Agaseke ni ingirakamaro kuko tugatwaragamo iyo tugiye gusura inshuti zacu dutwayemo imyaka zitandukanye kandi abadukoraga binjizaga amafaranga kubera ko badukoraga bakatugurisha abadukeneye bakatugura maze nabo bakiteza imbere.

Ibikoresho gakondo nk'icumu, ingabo, agaseke tugomba kubibungabunga neza kugira ngo abazaga baje kubisura batazaja barasanga byarangiritse, canga se abazaga baje nko kubitira baje basanga bigifite umwimerere gwabyo.

Urukiza cangwa se urukebo ni igikoresho gakondo cifashishwaga bari kukinweramo nk'umutobe, ubushera cangwa se urwagwa iyo rumaze gusha, maze tugashira inyota.

Inkono gakondo ni ingirakamaro. Nk'inkono zikoze mu ibumba aho bahuza ibumba bakaribumba bakambamo udukono tw'tubindi maze bakadutwika kugira ngo dushye neza, maze bakatwikorera bakajya kutugurisha, abadukeneye bakatugura bakajya badutekamo ibiryo, kugira ngo babirye bihiye neza, kandi biryoshye.

Kubyina imbyino gakondo ni byiza kuko tuzibyina twambaye imyenda yabugenewe nk'imyitero, ku maguru twambaye amayugi atuma twumva injyana imeze neza, dufite ingabo ndetse n'icumu. Ku mutwe twambaye imigara kandi tukabyinira ahantu heza haratuma tutangirika ku maguru yacu, kandi bigatuma n'impano zacu zizamuka.

Kuboha ni byiza nko kuboha ibirago, aho tubibohaga ubwatsi bwakuze twahonze neza tukabwanika bukabanza bukuma, aho twifashishaga ibyo birago kubyanikaho imyaka zitandukanye nk'amasaka ibigori, kugira ngo byume maze tuzabigurishe cangwa se tuzabijye.

Kubaka inzu ni ingirakamaro kuko tuzikoreramo ibintu byinshi nko kubaka inzu zikorerwamo ubworozi, aho zigomba kuba zubakishije ibiti bihagaze ziteye n'imbaho kandi zisakaje amabati kugira ngo amatungo arimo imbere atazajya anyagirwa.

Kubyina ni byiza, nko kubyina imbyino gakondo aho tuzibyinaga twambaye imyenda zabugenewe dufite ingabo ndetse n'amacumu, twambaye imigara, aho bitumaga amagufa gacu gakomera ndetse n'amaraso gagatembera mu mubiri neza kandi twishimye.

Inzu ibikwagamo ibikoresho gakondo byifashishwaga mu gutaka ndetse no mu kubyina. Ibiseke bigomba kubikwa mu nzu zubatse neza zubabakishije ibiti bihagaze kandi zikwikiriye kugira ngo abazaja barazisura baje barasanga zimeze neza kandi bakicara ku mikeka basangagamo ibaga iharambuye.

Isekururo ni igikoresho gakondo aho kibaga kibajije mu giti ndetse gifite n'umuhini gwifashishwaga mu gusekura isombe canga se imyumbati ndetse n'igisobanye bacyifashishaga bagashiramo imyaka iyo zimaze kwera kandi na za karere ari go mupira abana bakundaga kubangaga kugira ngo bagukine maze bishime.

Kubyina numuco gakondo gudufashaga kwishima aho tubyina dufite ingabo n'icumu, twambaye n'imigara mu mutwe kandi tubyinira mu mucaca cangwa ku butaka kandi hazitijwe uruzitiro hari n'ibiti bidufasha guhumeka neza ndetse n'inzu tujagamo tumaze kubyina.

Mu muco gakondo tugira ibikoresho bitandukanye ,bidufashaga guhinga nk' isuka ,idufashaga guhinga nk'ibirayi, ibigori n'amasaka, ndetse n'ibishimbo Isuka akaba ari igikoresho gikomeye cane, kuko kidufasha mu iterambere ry'ubuhinzi ryacu kandi tukazamura imibereho yacu ya buri munsi.

Kubyina imbyino gakondo ni ingirakamaro bitumaga amagufa gacu gakomera n'amaraso kagatembera neza mu mubiri, kandi twambaye imyenda zabugenewe dufite ingabo ndetse n'amacumu, no ku mutwe twashizeho imigara ku maguru tugashiraho amayugi, aho tubyinaga maze abari kutureba bakumva injana nziza turi kubyina, kandi tukabyinira mu kibuga kimeze neza kitaratwangiza.

Mu muco gakondo, abanyarwanda bagiraga imirimo itandukanye, aho nk'abategarugori ndetse n'abakobwa babohaga imisambi, bamwe bakaramvura inkongoro, ibisabo, ibicuba, abagabo bamwe bakundaga kuzitira ingo za bo bakoresheje imbariro ndetse n'imbingo, kugira ngo batabasha kwinjira iwabo.

Imbyino gakondo ni ingirakamaro kuko zitumaga amagufa gacu gakomera n'amaraso gagatembera neza mu mubiri, kandi tuzibyina twambaye imyenda zabugenewe dufite ingabo bica amacumu ndetse twambaye n'imigara ku mutwe, abakaraza bari kutuvugiriza ingoma abagore bari kuturirimbira bakanacurira, maze tukagaragaza impano zacu tukishima cyane tukanezeregwa.

Kubyina imbyino gakondo ni ingirakamaro, aho tuzibyinaga twambaye umwitero, umukenyero, agapira n'amayugi ku maguru, aho abantu bazaga kutureba bakishima bicaye ku ntebe za parasitike(plastic), bicaye mu ihema ryubatse neza. Twebwe turi kubyinira mu mucaca maze bakaduha amashyi.

Cuma ,umuseke ,umuvure ,urukiza, agatanda, kaboshye mu biti gahujwe n'utugozi bifashishaga bari gukamura ni bimwe mu bikoresho gakondo bifashishaga bari kwenga nk'imitobe canga se ugwagwa ruzanyobwa kandi biba bigomba kubikwa neza kugira ngo bazabyifashishe no mu bindi bihe bizaza.

Imbyino gakondo zitumaga tugaragaza impano zacu kandi zitumaga amagufawa gacu gakomera n'amaraso gagatembera neza mu mubiri kandi tuzibyinaga dufite ingabo amacumu twambaye n'imigara ndetse n'imikenyero z'iyo mibyino.

Uduseke ni ibikoresho by'ingenzi mu buzima bwacu aho tudutwararamo tugiye gusura abantu batandukanye, kandi uduseke abadukora tubabyarira umusaruro kuko badukora bakatugurisha bakabona amafaranga bifashisha biteza imbere mu bikorwa byabo bitandukanye.

Igikoresho cyifashishwaga mu gukora imitako zitandukanye, aho bifashishaga indodo bakagenda basobekeranya kugira ngo bakore ishusho y'ikintu bifuzaga gukora, maze bazakigurishe kivemo amafaranga gabateza imbere.

Mu muco gakondo ni byiza ko tubyina tugaragaza impano zacu ,twambara imishanana, ndetse twikoreye uduseke n'amayugi hasi kugira ngo tugaragaze impano zacu ,twunguke inshuti kandi tubyinira n'ahantu heza hafite isuku, indabo ziduha umwuka mwiza.

Ububoshi ni bwiza nko kuboha ibirago cangwa se udutako aho ibirago byifashishwaga babyicaraho cangwa se bakabyifashisha babyanikaho imyaka zitandukanye nk'amasaka, ibigori igihe bimaze kwera kugira ngo babyumishe neza bazabijane ku isoko cangwa se bazabije.

Umwami yabaga ari umuntu uyoboye abaturage be bose, aho yambaraga imyenda zitandukanye n'izabo nk'imishanana ndetse n'imikufe, aho yasokozaga umusatsi we neza kandi afite n'inkono anyweragamo itabi.

Umuvure ni igikoresho cyifashishwa mu kwenga, aho bakibaza mu giti cyamaze gukura neza, aho tugikoresha turi kwenga imitobe, cyangwa se urwagwa, ndetse n'ubushyera.

Umuvure ni igikoresho cifashishwaga mu kwenga ibitoki，aho utagufite ajya gutira ugufite， kugira ngo gumufashe kwenga neza ibitoki bye mu buryo bwihuse.

Ubworozi ni bwiza, mu korora inka z'inyambo aho ziduha amata meza aryoshye, kandi inka zifashishwa iyo bari kubyina biyerekana maze bigatuma tuzamura impano zacu kuko tuba turi kwivuga imyato na zo zizihiwe.

Kuboha ni ingirakamaro nko kuboha udukoko bashyiraho ibintu bitandukanye, no kuboha ibirago bicaraho cyangwa se bakabyanikaho imyaka itandukanye kugira ngo yume neza itazangirika, bakazayifashisha mu kindi gihe kizaza, bagiye nko kuyihinga cyangwa se bagiye kuyigurisha.

Inzu zo hambere zabaga ari nziza kuko zabaga zubatswe ku bizeru kandi zishakaje ibyatsi aho twazibagamo zifite umuryango gumwe kandi zikikijwe n'ibiti bitumaga hazaga akayaga ndetse n'umucaca twicaragamo turi kuganira.

Kwenga ni umurimo gwahozeho aho bacaga ibitoki bakabitara mu gwina ,byamara gusha bagahurira hamwe bakabitonorera mu muvure bagakama umutobe bifashishije amazi, amakoma cangwa se ishinge, maze bagatara bagashiramo amasaka kugira ngo hazavemo inzoga maze yamara gusha bagatarura bakanwa ugwagwa.

Inzu ndangamurage ni nziza aho yubatswe neza, izitiye kandi isakajwe n'amabati, kandi ifite umujyango winjiragamo aho isugwaga n'abantu bagiye kureba ibintu birimo byakogwaga kera bitagikogwa ubu ngubu, kugira ngo tumenye ago mateka kandi batangaga amafaranga iyo bagiye kuhasura.

Mu muco go mu Rwanda gakondo abagabo cangwa abasore bambaraga imishanana, bari kubyina intore kandi bafite ingabo n'icumu. Hanyuma abagabo bagenzi babo bari kuvuza ingoma, ndetse n'abagore bambaye imikenyero bateze n'ingori bari kuririmba abandi babyina.

Kuboha ni byiza nko kuboha uduseke cangwa se imitako aho bazikoraga mu mu tudeyi bifashishije utwatsi twumye ndetse n'urushinge bakagenda babihuza maze bagakoramo umutako mwiza maze bakazigurisha bakabonamo amafaranga maze nabo bakiteza imbere.

Igikosi ni igikoresho dushiragamo ibyo kunywa nk'amazi, ubushera canga se ugwagwa, aho kibaga gifite umukondo dufata, maze tukanywa tugashira inyota, yashiramo tukiyongeza.

Uduseke ni ibikoresho by'ingirakamaro, kuko tudutwazamo tugiye gusura abantu batandukanye, aho badukora bifashishije inshinge n'utudeyi cyangwa se indodo maze bagakora amabara atandukanye, kandi abadukora babona amafaranga iyo bamaze kudukora bakatugurisha, maze bagakora ibindi bikorwa bibateza imbere.

Gusangirira hamwe ni umuco gakondo wahozeho aho baterekeraga hamwe ibiribwa bitandukanye nk'umutsima w'amasaka, ibishyimbo, ibigori, amashaza, ibijumba, n'birayi, maze bagahurira hamwe bagasangira, barira ku masahani yogeje kandi asa neza, ndetse n'inkoko zisa neza maze bakabyina bakishima.

Kwagika imitiba ni umuco gakondo wahozeho aho bawushyira mu biti ikajyamo inzuki ,igihe cyagera zigakora ubuki maze bagahakura bagakuramo ubwo ubuki, bakajya barabushyira mu nzoga banywa cyangwa se mu kigage benga, maze bigatuma bagira imirire myiza kandi ubuki buvamo n'umuti uvura abantu.

Umuriro w'amashanyarazi ufitiye runini rubanda. Kubw'iyo mpamvu insinga z'amashanyarazi zikorwa n'inganda zitandukanye, tuzifashisha dushyira umuriro mu inzu ndetse n'aho dukorera kugira ngo akazi kacu kihute. Ducumekaho za mudasobwa n'ibindi bikoresho bikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Igisahani kidufashaga gukurura amasheni gatandukanye gaca kuri televiziyo kandi kagakoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo tubashe kureba amakuru gatandukanye go ku isi yose, kubera umuriro w'amashanyarazi ndetse n'igisahani gikurura amasheni.

Amashanyarazi ni ingirakamaro aho hagomba kuba hari igikoresho gihurizwagamo umuriro kugira ngo babone uko bagutanga n'uko bagucunga kandi baka hakaba hafunze neza kugira ngo abantu batazaza baka bakabyica canga se abana bakagikiniraho kikabatwika.

Itara ni igikoresho gikoreshwaga n'umuriro gw'amashanyarazi kugira ngo gitange urumuri igihe ahantu hari umwijima mwinshi kugira ngo abantu babone bakomeze imirimo yabo cyanga se gamurikire ahantu kugira ngo abajura bataza kwiba tukaba tugakoreshaga mu ngo zacu aho dukoreraga ndetse no ku mihanda zitandukanye.

Itara rimurikaga urumuri rwo munzu kandi rigakoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo riboneshe ahantu hari umwijima mwinshi kandi inzu ikaba yubatse neza kandi isize n'amarangi.

Ibikorwaremezo ni ingirakamaro nko kubaka ibiraro byo mu kirere, aho biba byubakishijwe isima ndetse n'ibyuma bikomeye , n'imigozi itumaga bitagwa kugira ngo abantu bakorane ubucuruzi hagati yabo, babyambukiraho maze bikaborohereza kwiteza imbere mu bikorwa byabo kubera abafite ibikorwa remezo byabafasha mu iryo terambere ryabo.

Inzu zisengerwamo ni ingirakamaro kuko abakirisitu baturutse imihanda zitandukanye bazihuriragamo baje gusenga Imana, bakayitura ibyifuzo byabo kandi izo nzu zigomba kuba zubabakishije amatafari gahiye, kandi zisakaye neza kugira ngo amazi gatageramo gakazangiza ,kandi gafite n'imbuga yo guparikaho ibinyabiziga hari n'indabyo zizanaga akayaga.

Ni byiza gutura ku mudugudu. Kuko bidufasha gutura twegeranye, ubutaka bugenda ari butoya kandi gufata amazi ava ku nzu biroroha kubera ko amazu aba yegeranye. Kandi no kuyasaranganya iyo abaturage begeranye biroroha. Umuntu atava kure ngo ajye kuvoma kure cyane kuko ibikorwa remezo biba bimwegereye.

Kubaka inyubako z'amashuri mu buryo bw'amagorofa，bituma bigabanya ubutaka bwubatseho，kandi akaba afite amadirishya manini，afite n'ibirahure byinjiza urumuri mu ishuri， kandi asakaye neza，asize n’amarangi，kugira ngo abana bage bayigiramo bisanzuye， hakaba hariho n'umucaca wo gukiniramo，igihe bagiye mu karuhuko.

Kubaka amazu g'amagorofa ni ingirakamaro, kuko gabungabungaga ubutaka, kandi bibaga byiza iyo gubatse ku muhanda ku buryo kuhagera byoroshye, ndetse tukagubakisha amabuye ndetse n'ibyuma n'amatafari gakaba gafite n'amadirishya gazanaga urumuri rwinshi mo imbere, tukagasiga n'amarangi kugira ngo gagaragare neza.

Insengero ni nziza kuko zitumaga duhurira hamwe tugasengeramo，aho tuba tugomba kuzubaka neza， tukazisakaza amabati，tugashiramo n'amadirisha ndetse n'inzugi kandi tukanashiraho n'ibirango bigaragaza ko tuhasengeraga， nk ’umusaraba kandi n'inyuma tugomba kubaka neza kugira ngo hataja haregamo amazi， tukabura aho duhagarara dusohotse.

Kubaka inyubako zimeze neza, nk'insengero abakirisitu bazaga gusengeramo batura Imana ibyifuzo byabo. Ni ahantu hagomba kuba hubatswe neza, hari n'ibirango bigaragaza ibyo hakorerwaga ndetse hanazitiye neza, hanateye ibiti kugira ngo haze umwuka mwiza wo guhumeka.

Kubaka inzu za magorofa ni byiza tukazisakaza amabati g'umutuku, tugasiga n'amarangi g'umweru ndetse tukazizitiza amatafari gahiye kandi bikaba byiza iyo iri ku muhanda gukingagamo n'imodoka ndetse hakaba hari n'umucaca wo kwicaramo ndetse n'ibiti bizanaga akayaga keza cane.

Kwiga ni inkingi y'iterambere, aho tugomba kohereza abana ku ishuri bambaye imyenda y'ishuri zabugenewe, bakigira mu mashuri asize amarangi, afite n'amadirishya arimo ibirahuri byinjiza urumuri neza, kandi bicaye ku ntebe zituma biga neza, bityo bakazamura ubumenyi bwabo, ndetse bafite n'ibibaho bandikaho bimeze neza.

Urusengero abakirisitu basengeragamo, kugira ngo begerane n'Imana, kandi rwubatse neza rusize amarangi. Rusakaje amabati, ndetse n'ibirahuri bituma imbere hageramo urumuri rwinshi.

Kubaka insengero ni ingirakamaro kuko zihurirwamo n'abantu baturutse imihanda itandukanye baje guturara Imana ibyifuzo byabo, aho haba hari n'imbuga bahagararamo iyo basohotse cyangwa se abandi bari kwinjira ,kandi hakaba hazitiye kugira ngo hatangizwa.

Kubaka inyubako zikomeye ni ingirakamaro, nko kubaka insengero zisengerwamo n'abakirisitu, aho hagomba kuba hari n'umuhanda wubatse neza uhagera ndetse n'icyapa kigaragaza ibibera aho hantu. Umucaca wo kwicaramo, kandi hari umuriro w'amashanyarazi utuma bifashisha nko gukoresha za mikoro basengera muri izo nzu.

Imidugudu y'icitegererezo ni ingirakamaro kuko itumaga tubungabunga ubutaka, tukubaka ahantu hatoya kandi turi benshi, bityo n'ibikorwaremezo bikatugeraho byihuse, nk'amazi ndetse n'ibindi biba bikenewe. Aho ngaho ku mudugudu gw'icitegererezo gubatswe.

Ikibuga cyubatse neza aho gikikijwe n'ahantu abaje kureba ibikorwa bicaraga, hasakaje amabati ndetse n'ibyuma bizamuye bifashe igisenge kugira ngo abaje kureba batanyagigwa cyangwa se imvura ikabanyagira cyangwa se izuba rikabavira.

Kubaka inyubako z'amagorofa bitumaga zitwara ubutaka butoya kandi tukazubakisha ibyuma bikomeye, tukazisakara, tukazisiga amarangi kandi tugatera indabo iruhande rwazo, tukabona naho duparika imodoka. Izo nyubako zidufashaga gukoreramo ibikorwa byinshi kuko ziba zose zigerekeranye n'urugero nk'amashuri.

Kubaka inyubako z'amagorofa bitumaga bigabanya ubutaka zubatseho, kandi zikaba zifite n'amadirisha ginjizaga urumuri gwinshi, zikaba zisize n'amarangi gatumaga zigaragara neza, hakaba hateye ibiti ku ruhande bizanaga akayaga keza, ndetse n'umucaca gwo kwicaramo.

Ni byiza ko abantu bubaka inzu y'Imana bagomba kujya bahuriramo bagasenga buri iko babyiyemeje, kandi hakaba hafite umutekano hari umucaca wo kwicaramo, ndetse n'indabo n'ibiti byo gutanga agacucu igihe hari izuba ryinshi.

Kubaka insengero ni ingirakamaro aho zihurirwamo n'abakirisitu baturutse imihanda itandukanye baza gusenga Imana, bayitura ibyifuzo byabo ,aho zigomba kuba zisakaye neza ndetse zifite n'ibirahuri byinjiza urumuri mo imbere, kandi zifite n'intebe bose bicaraho bakumva baguwe neza.

Ikiraro cubatse neza cubakishije ibyuma, aho gihuje imihanda ibiri kugira ngo abakinyuragaho baje barabona uko bambuka, ndetse n'amazi atembaga abone uko agenda neza, kugira ngo atazasenyera abantu.

Kubaka ibikorwa remezo bijyanye nk'igihe nk'imihanda ya kaburimbo aho yoroshya ingendo abantu n'ibinyabiziga binyuramo, bakagera aho bagiye bihuse kuko iba ikoze neza, ndetse n'amazu yubatswe akaba azitijwe amatafari ahiye, kandi akaba ari n'amashanyarazi atuma habona iyo bumaze kwira ,ndetse andi bakayajyana mu ngo zabo bakajya bayacanisha amatara iwabo.

Kubaka inyubako zihurigwagamo n'abakirisitu baje gusenga Imana bakayitura ibyifuzo byabo ni ingirakamaro. Tugomba kuzubaka zikomeye zisakaye neza zifite amadirisha ndetse n'ibirahuri byinjizaga urumuri rwinji n'aho gukarabira ndetse ari n'umucaca go kwicaramo igihe bibaye ngombwa n'umuhanda wo kunyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'ibiti bikikije uruhande rwawe bitumaga haza akayaga keza.

Kubaka inzu z'amagorofa ni ingirakamaro, zifite inkingi zikomeye kandi zisakaje amabati tukazisiga amarangi kandi tugashyiramo amadirishya manini n'ibirahuri bituma imbere hageramo urumuri ruhagije, imbere tugashyiraho amabuye ndetse n'umucaca wo kwicaraho kandi tugashyiraho n'indabo ziratuma hagaragara neza.

Kubaka inzu zubatse mu buryo bw'amagorofa ni ingirakamaro, kuko bitumaga ubutaka bugenda ari buke kandi tukazubaka zikomeye, zifite ibirahuri byinjizaga urumuri neza mu imbere, kandi zisize n'amarangi, aho abaturage batandukanye bahahuriraga baje mu bikorwa bitandukanye. Hakaba hari n'imbuga nini bahi bahagararagamo baje gushaka izo serivisi.

Umutambagiro mwiza nk'umutambagiro kw'abihaye Imana, aho baba bagiye mu rusengero gusenga Imana kandi rukaba rwubatse neza, rufite ibirahuri bizana urumuri mo imbere ndetse rusakaye neza rusize n'amarangi kandi hariho n'ubusitani bwiza abantu bicaragamo bakagubwa neza ndetse n'indabyo zizana akayaga.

Ku manwa y'ihangu izuba riva ikirere kimeze neza, urujya n'uruza rw'abaturage baturutse imihanda itandukanye, bahurira hamwe mu nama, bahuriramo n'umuyobozi wabo, aho yafashe ijambo, bungurana ibitekerezo byabo.

Ubutabera ni inkingi ikomeye aho abafite ibibazo bahuriraga hamwe bakabikemura bifashishije abayobozi batandukanye, aho bicaraga hamwe bakabiganiraho bicaye ahantu hadekoye neza hari ibitambaro bifite amabara gatandukanye ndetse bafite n'amazi bo kugenda baranywa uko bagenda baganira hagati yabo ibibazo bafitanye bakabikemura maze bagasubira mu miryango zabo bishimye.

Amatora gabaga meza iyo gakorewe mu muco, aho duhuriraga hamwe turi abaturage twaraturutse imihanda zitandukanye, maze tugatonda imirongo tukitorera abayobozi batandukanye, cangwa se tukagirana inama dukemura amakimbirane gabaye mu miryango zacu.

Uburenganzira bwa muntu ni imwe mu nkingi igihugu cyacu kigenderaho. Iyo habayemo amakimbirane abaturage bahurira hamwe bakayakemura, bagategura ahantu heza bagomba kuyakemurira mu umucaca, izuba ryaba riva bakitwikira imitaka, cyangwa se izuba ryaba riri kuva ari hafi y'ibiti bakicara munsi y'ibiti ahantu hari igicucu.

Imihanda za kaburimbo ziba ari myiza, aho ziba zinyugwagamo n'imodoka nyinshi kandi hariho n'inzira z'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'ibiti kandi hakaba hari n'amatara gamurikaga nijoro kandi hakaba hariho n'abashinzwe umutekano bashinzwe kuziyobora ndetse n'inzira z'abanyamaguru zikaba zigendwamo na kibazo.

Imodoka ni nziza nk'imodoka rusange itwaraga abagenzi kandi benshi bicaye mu ntebe abandi bakagenda bahagaze kugira ngo bagere iyo bagiye bakoresheje igihe gitoya cane.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu ni ingenzi, nko gukoresha ubwato bugenda mu ngezi, aho bifashisha n'ingashi maze abantu bakava ahantu hamwe bajya ahandi, bakagerayo byihuse batazengurutse uko ikiyaga kimeze; maze bagakora ubucuruzi biboroheye ndetse bakanakora imirimo yo kuroba mu icyo kiyaga bifashishije ubwo bwato.

Urujya n'uruza rw'abantu baje aho bategeraga ibinyabiziga, nk'imodoka kugirango berekeze mu byerekezo bashakajamo, bagereyo vuba bifashishije izo modoka, kuko zihutishaga igihe kurusha kugendad n' amaguru.

Uburezi bw'ibintu ni kimwe mu nkingi y'igihugu cyacu. Aho duhuriza hamwe ibicuruzwa twakusanyije, tukabishyira mu modoka zikabijyana ku masoko atandukanye, kugira ngo tubone abaguzi. Ndetse n'amafaranga yo kwifashisha, mu buzima bwa buri munsi, no kuzamura igihugu cyacu.

Abakozi bambaraga imyenda ibarangaga amakote g' umukara ,amapantaro g'umukara ,amashati g'umuhondo ndetse n'ibirango bibaranga n'ibyo bakora mu kazi kandi bambaye na za karuvati, bagafata urugendo bajya aho bakoreraga.

Kugira ibitaro twivurizamo twarwaye ni ingirakamaro, aho bagira n'imbangukiragutabara itwara abarwayi igihe barembye cyane, ikabajyana ku bitaro byisumbuyeho, kugira ngo bahabwe ubutabazidapfa.

Kugira ibikoresho bitwara abantu n'ibintu, ni ingirakamaro nko kugira indege, aho itwara abantu bava hamwe bajya ahandi kandi ibatwara ari benshi, bityo bituma umuntu ava ahantu hamwe ajya ahandi bimworoheye kandi akagerayo vuba, agakora ibintu byamujyanye bitamugoye.

Kubaka ibikorwa remezo ni ingirakamaro, nko kubaka gare aho abaturage baturutse imihanda itandukanye bahuriramo bafata imodoka zijya mu byerekezo bashaka kujyamo, zikabagezayo maze bakagera aho bagiye badatinze mu nzira.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu ni ingirakamaro, aho imodoka zigendaga mu muhanda ndetse n'amamoto gatwaraga abantu gakabavana ahantu hamwe baja ahandi ,aho gabaga gari kunyura mu muhanda gukozwe neza gutumaga ikinyabiziga kigenda kiri kwihuta, bityo kikagera aho kigiye vuba.

Kubaka imihanda ijyanye n'iterambere nka kaburimbo ni ingirakamaro, inyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto bitwara abantu bibavana ahantu hamwe bajya ahandi, kandi bituma tugera aho tugiye byihuse, ndetse ku muhanda hateyeho n'ibiti bituma haza akayaga keza, ndetse n'ibyapa bigaragaza umuvuduko utagomba kurenzwa n'abatwaye ibyo binyabiziga.

Imihanda yubatse neza ni ingirakamaro, aho imodoka zitwaraga abantu rusange zigunyuragamo ziva ahantu hamwe zija ahandi, kandi hakaba hakikijwe n'ibyuma kugira ngo zitagwa munsi y'umukingo, kandi hari n'ibiti bitangaga akayaga keza ndetse n'umwuka duhumekaga.

Indege ni kimwe mu bikoresho dukoreshaga tuva mu gihugu kimwe tuja mu kindi cyangwa tuva ahantu hamwe tuja ahandi, bikadufasha gukoresha igihe neza kandi bigatwara ibintu byacu neza nta kibazo.

Ubucuruzi ni bwiza nko gucuruza za moto, aho zidufasha kugenda tuva ahantu hamwe tujya ahandi mu buryo bwihuse, aho dukoresha igihe gitoya cyane, aho kugira ngo tugende nayo maguru tukifashisha ibinyabiziga, bidufasha kwihuta tukahagera bidatinze.

Gukusanya imyaka iyo zimaze kwera ni ingirakamaro. Iyo tuzishira mu mifuka maze tukazipakira imodoka, ikazijana ku isoko rinini kandi ikanyura mu muhanda gwakozwe neza, kugira ngo itazigwisha zikangirika kandi ikazigezayo, abazikeneye bakazigura ku biciro byiza kuko zibaga zareze neza.

Umuhanda gubatse neza gujanye n'iterambere nka kaburimbo, gubaga mwiza kuko ibinyabiziga nk'ama moto, amagare, bi n'imodoka bigunyuragamo bitwaye abantu n'ibintu, maze bakagera aho bagiye. Kandi hakaba hari amatara gakaga iyo bumaze kwira ndetse n'ama n'insinga z'amashanyarazi, zitumaga ago matara gaka kandi hari n'ibiti bitumaga haza umwuka mwiza.

Imodoka ni ingirakamaro aho tuzitegaga tuvuye i Kigali tuja i Kampala muri Uganda, kuko zidufashaga kugerayo byihuse kubera ko dukoreshaga igihe gitoya kurusha uko twagenda n'amaguru, aho twambukiraga ku mupaka tuva mu gihugu cyacu tuja mu kindi.

Igorofa rigezemo hagati rikikijwe n'amatafari gazubakishwa kandi rizitije n'amabati rikaba ryegereye umuhanda gugendamo abagenzi ndetse n'ibinyabiziga nk'abamotari batwara abantu kandi hagati hakaba hari amapoto anyuraho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ubusitani buzana impumuro nziza mu mujyi.

Gukora imyitozo ngororamubiri nko kwiruka ni ingirakamaro kuko bituma tuzamura impano zacu, kandi tukayikina twambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto kandi n'abafite ubumuga nabo bakayitabira, tugenda mu mihanda yubatswe neza ituma tudakomereka tukazamura impano zacu.

Gukina imikino ngororamubiri ni byiza nko gukina basiketi, aho bitumaga amagufa gakomera n'amaraso kagatembera neza mu mubiri, twambaye imyenda zabugenewe: amasengeri n'amakabutura, aho bitumaga twunguka inshuti tukanazamura impano zacu kandi tugatwara n'ibikombe bitandukanye.

Imikino ngoramubiri ni myiza nko gukina tenisi bitumaga amaraso gatembera neza mu mubiri n'amagufa gacu kagakomera; aho tuzikinaga twambaye imyenda zabugenewe kandi tugakinira ku kibuga ciza ,kandi hariho n'abafana aho bicaraga kugira ngo badutere inkunga bari kudufana, natwe bikadushimisha tukazamura impano zacu tugatwara n'ibikombe.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza nko gutwara amagare, twambaye imyenda yabugenewe, ndetse n'ingofero zituma tudakomereka iyo tuguye, ndetse n'inkweto n'amasogisi yazo, kandi tugenda mu mihanda yubatse neza ya kaburimbo, kubera ko itaba irimo ibyatuma tugwa, kandi bituma tuzamura n'impano zacu. Iyo twatsinze dutwara n'ibikombe, ndetse tukabona n'amafaranga twifashisha mu bindi bikorwa biduteza imbere.

Imikino ngororamubiri nka siporo bifashaga umubiri gwacu gutuma amaraso amaraso gatembera neza mu mubiri kandi n'amagufa gagakomera. Kandi tenisi idufasha kuzamura impano zacu, kandi bibaga byiza iyo iyo tuyikiniye ku bibuga byubatswe neza bizitiye, kandi hariho n'ibiti biduha akayaga.

Siporo ni ingirakamaro mu gukina umupira gw'amaguru aho tugukinaga twambaye inkweto zabugenewe, amasogisi n'imyenda zabugenewe, kugira ngo bidutandukanye n'agandi makipe, aho dukiniraga mu bibuga bifite umucaca mwiza, haciyemo n'imironko zigaragara, n'abafana baba baje kudushyigikira, maze tukabaha ibyishimo na bo bakadufana kakahava.

Imikino ngororamubiri ni myiza, nko kwiruka aho bitumaga tuzamura impano zacu, ndetse n'amagufa gagakomera n'amaraso gagatembera neza mu mubiri, tugatwara ibikombe, aho dukinaga twambaye imyenda zitandukanye, zitandukanye n'agandi makipe, tugenda ku mihanda zubatswe neza, zitatwangiriza, hari n'abafana baje kudushigikira, kugira ngo dutsinde.

Gukina imikino ngororamubiri ni byiza ,nko gukina umupira w'amaguru ,aho tuwukina twambaye imyenda idutandukanya n'andi makipe ,ndetse n'inkweto zabugenewe kandi tugakinira ku bibuga bimeze neza biratuma tudakomereka, kandi bituma tuzamura impano zacu ,tukabona n'amafaranga adufasha kwiteza imbere, mu bikorwa byacu bya buri munsi bitandukanye.

Kwiga ni ingirakamaro aho tugomba kujya ku ishuri dufite n'imyenda ya siporo isaha yo kwiga siporo yagera tugahurira hamwe ku kibuga cyubatse neza, tukabanza twumva amabwiriza ya mwarimu hanyuma twarangiza tugakora siporo.

Imikino ngororamubiri nimyiza, nko gukina basikete, bituma amaraso atembera neza mu mubiri, amagufa yacu agakomera kandi tugakina ku bibuga byubatse neza, biratuma tudakomereka kandi tugakina twambaye imyenda itandukanye, kugirango tubashe kumenya abakinnyi bacu kandi bituma twunguka, inshuti nyinshi zitandukanye.

Imikino ngororamubiri aho bakinaga imikino z'intoki bambaye imyenda zibagaragaza zibatandukanya nagandi makipe kandi bakinira ku kibuga kimeze neza kandi gikikijwe n'uruzitiro n'ibyuma.

Gukina imikino ngororamubiri ni byiza nko gukina umukino gw'amagare aho gutumaga amagufwa gacu gakomera, amaraso kagatembera neza mu mubiri, aho tugendaga imihanda zitandukanye maze tukamenya uduce twinshi kandi tugatwara n'ibikombe bityo tukazamura izo mpano zacu.

Imikino ngororamubiri ni myiza, nko gukina vole bitumaga amaraso gashuha ndetse n'amagufa gagakomera, kandi tukawukina twambaye imyenda zitandukanye, aho tuba dukinira ku kibuga cubatse neza, ndetse hariho n'umugozi tuba tugomba kurenza umupira gwa vole, kandi hari n'abafana baje kudushyigikira.

Imikino ngororamubiri idufitiye akamaro gakomeye, ituma amagufa akomera ndetse n'amaraso agatembera neza mu mubiri; urugero nk'abakobwa basha gukina tenisi bituma bunguka inshuti bakazamura impano zabo kandi bakagera kure kubera ko baba baritoreje ku bibuga byiza byubatswe kandi neza, bityo impano zacu zikagera kure kandi tugatwara n'ibikombe.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro, nko gukina Tenisi aho dukina twambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto, ubwo dukinira ku bibuga byiza bituma tutangirika kandi tuzamura impano zacu, tugatwara n'ibikombe, tukabonamo n'amafaranga twifashisha dukora ibindi bikorwa biduteza imbere.

Gukina imikino ngororamubiri ni myiza nko gukina tenisi bitumaga amagufa gakomera, amaraso gagatembera neza mu mubiri, twambaye imyenda zabugenewe n'inkweto n'amasogisi, dufite n'akatenesi turi gukina, tugakinira ku kibuga ciza kitaratuma twangirika kandi bitumaga tuzamura impano zacu, tugatwara ibikombe ndetse tukunguka n'inshuti.

Gukina imikino ngororamubiri ni byiza nko gukina baskete, aho tukina twambaye imyenda yabugenewe idutandukanya n'abandi, ndetse n'inkweto n'amasogisi, tugakina ku kibuga gituma tutangirika, cyubatse neza, maze tukazamura impano zacu, tugatwara n'ibikombe ndetse tubonamo n'amafaranga, akaduteza imbere, tugakora ibindi bikorwa bituzamurira iterambere ryacu.

Gukina imikino ngororamubiri nka vore bituma amagufwa yacu akomera n'amaraso agatembera neza mu umubiri, aho dukina twambaye imyenda ya siporo yabugenewe ndetse n'inkweto. Aho dukinira ku kibuga cyubatse neza kitadukomeretsa, hari n'intebe zicaramo abafana baza kudushyigikira maze tugatsinda tugatwara ibikombe tukazamura n'impano bakaduhemba.

Imikino ngororamubiri nka basiketi idufashaga gutuma amagufa gacu gakomera, amaraso gagatembera neza mu mubiri kandi tukazamura impano tukaja turatwara n'ibikombe.

Ni byiza ko ababyeyi bajana abana babo mu myitozo ngororamubiri, babagurira imyenda za siporo n'imipira zo gukinana kandi bagakinira ahantu heza habafasha kuzamura impano zabo; bityo, bagakura amagufa yabo akomeye, kandi bakunguka inshuti, bakabaho bishimye.

Gukina imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro, nko gukina umupira w'amaguru, aho tuwukina twambaye imyenda yabugenewe, kandi idutandukanya n'ayandi makipe, ndetse n'inkweto zabugenewe n'amasogisi, kandi tugakinira ku bibuga bimeze neza bitaratuma tuvunika ndetse tugakina umupira umeze neza uragera aho dushaka ko ugera

Gukina imikino ngororamubiri ni byiza, aho dukinira ku bibuga byubatse neza, twambaye imyenda yabugenewe n'udupira, amakabutura, inkweto, aho tuzamura impano zacu, ndetse tugatwara n'ibikombe maze tukagera ku ruhando mpuzamahanga twiteza imbere mu buryo butandukanye, tubikesha ya mpano yacu tugaragaza.

Imikino ngororamubiri ni myiza nko gukina tenisi, bitumaga umubiri gwacu gumera neza amaraso agatembera neza n'amagufa gagakomera, aho tugomba kugukina ku kibuga kimeze neza kandi tukabufata amabwiriza agenga ugwo mukino, tunambaye imyenda zabugenewe ndetse n'inkweto n'ibikoresho byose bikenegwa muri ugo umukino tukagukina twisanzuye.

Gukina imikino ngororamubiri ni byiza nko gutwara amagare twambaye inkweto zabugenewe n'imyenda yabugenewe, n'ingofero kugira ngo tutagwa tukangirika, tugenda mu mihanda yubatse neza ya kaburimbo, maze tukazamura impano zacu aho tubonamo n'amafaranga, iyo twatwaye ibikombe maze tukayifashisha twiteza imbere mu bikorwa byacu bitandukanye.

Imikino ngororamubiri ni myiza ,nko gukina imikino y'amaboko . Tuyikina twambaye imyenda itandukanye n'andi makipe ndetse n'inkweto . Dukinira ku bibuga byiza ndetse n'abafana bakaza aho bicara baje kudufana n'umusifuzi ushinzwe kugenzura amakosa turi gukora kandi nawe yambaye imyenda itandukanye n'iyacu maze tukazamura impano tugatwara n'ibikombe tukishima cyane.

Gukina imikino ngororamubiri ni byiza nko gukina basiketi, aho bitumaga amagufa gacu gakomera, ndetse n'amaraso kagatembera neza mu mubiri, kandi iyo dutsinze twunguka inshuti tukanatwara n'ibikombe, kandi tugomba gukina izo mikino twambaye inkweto zabugenewe ndetse n'imyenda zabugenewe zidutandukanya n'agandi makipe.

Gukina ni ingirakamaro aho tujaga gukina twambaye inkweto zabugenewe n'imyenda zabugenewe za siporo, aho duhuriraga hamwe tukabanza twafata amabwiriza gagenga umukino tugiye gukina kandi tukagukinira ahantu ku cibuga ciza kitaratuma dukomereka ndetse hari n'ahantu abafana baje kutureba bicaraga kugira ngo badufane dutsinde neza.

Imyitozo ngoramubiri ni myiza ku mibiri zacu, aho tujagamo twambaye imyenda zabugenewe. Udupira, amakabutura cangwa se amapantaro bya siporo, n'inkweto zabugenewe, kugira ngo dukomeze amagufa gacu ndetse n'amaraso gatembere neza mu mubiri, kandi tukagira aho turica hubatse neza, maze tukaruhuka tukumva tuguwe neza.

Siporo ni ingirakamaro ku mubiri wacu, nko gutwara amagare aho tuba twambaye imyenda yabugenewe ,n'inkweto, ndetse n'ingofero zituma tudakomereka, kandi tukagenda mu mihanda yubatse neza ijyanye n'igihe, za kaburimbo kugira ngo tuzamure impano zacu, ndetse dutware n'ibikombe maze duhembwe, kandi tuziteze imbere tubikesha gukina uwo mukino wo gutwara amagare.

Imihanda ijyanye n'iterambere nka kaburimbo ni ingirakamaro ku baturage, ndetse n'Igihugu muri rusange. Aho bayinyuramo bava ahantu hamwe bajya ahandi, bakagerayo byihuse kandi itabakomeretsa kuko iba yubatse neza, maze bakiteza imbere bayifashishije mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Kubaka ibikorwa remezo ni ingenzi nko kubaka imihanda igezweho ya kaburimbo, aho abaturage bayinyuramo bagenda mu binyabiziga byabo nk'imodoka, moto n'amagare. Kandi biba byiza kuko biba byegereye amazu yacu, bityo kuva mu rugo tujya ahantu hatandukanye bikatworohera, kubera tuba dufite ibikorwa remezo bituma tugera aho tugiye bwangu.

Ni byiza kugenda n'amaguru aho tugendaga mu nzira z'abanyamaguru kandi zikikijwe n'ibiti kandi hari ho n'ibyatsi bitumaga haza akayaga keza ndetse n'ibiti bituma twumva hari amahumbezi.